Icyumba kirimo abantu barindwi, icyo cyumba harimo abadamu batatu n'abagabo batatu, muri bo harimo abazungu batatu n'abirabura batatu, muri iki cyumba harimo ibyumba by'ikoranabuhanga, mudasobwa zitimukanwa ndetse n'ibindi bikoresho bikorana na yo.

Icyumba kirimo intebe nyinshi, iki cyumba kirimo amakaro y'umweru parafo na yo ni umweru ariko isa n'ishaje, ibikuta by'icyo cyumba biteye irange ry'umuhondo.

Icyumba kirimo abantu bicaye ku ntebe za palastike, bambaye amajire y'umutuku arimo umweru ndetse hariho igishushanyo cy'agakubo, abicaye imbere imbere yabo hateretse amazi ndetse hari n'uteretse imbere urupapuro n'agakaye byo kwandikamo.

Icyumba kirimo abantu bambaye amataburiye atandukanye, hari abambaye amataburiya y'umweru, ay'umutuku; icyahuriyeho ayo mataburirouko yose afite ikimenyetso cy'umusaraba kiri mu mabara y'umutuku, kuhande hari umuntu uri gufotora ndetse ameza yo muri icyo cyumba ateretseho amazi, amakaramu, telefone n'amakaye.

Ahantu haparitse imodoka, iyo modoka yanditseho minisitiri ofu helifu nyagatare hosipito, hari abagabo babiri bafashe agasanduku bombi bambaye udupfukamunwa, harimo uwambaye ishati y'umweru, undi yambaye ishati y'umweru n'ikoti.

Ni mu kayira ako kayira karimo abagabo babiri bafashe ingobyi mu ntoki, ingobyi bahetseho umuntu iruhande rw'iyo nzira hari imyaka itandukanye hari ibigori, hari urutoki ndetse hari n'ibiti by'amoko atandukanye bibiri.

Iyi nyubako irimo abagabo benshi, harimo babiri bambaye imyenda isa yose y'umweru, bafashe ga z'ubururu mu ntoki, bambaye amataratara, harimo n'undi mugabo wambaye ishati y'umutuku.

Icyumba kirimo abantu benshi bahagaze, muri bo abenshi bambaye utujiri tw'umutuku turimo ikirango cy'umusaraba, inyuma ikirango kiranga abatabazi b'ibanze, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye umupira wa amaboko maremare ufashe urupapuro mu ntoki.

Mu cyumba cyo kwa muganga hari umugabo wambaye umupira w'umukara ufite umweru ku kuboko yambaye ipantaro ijya gusa n'umukara ifite umutuku imbere ye hari icupa ry'amazi aryamye ku gitanda bigaragara ko bari kumusuzuma.

Abagabo babiri bambaye imyenda y'umweru ifunze hose, bateruye ingobyi y'icyatsi iriho umuntu uyiryamyeho wambaye imyenda ijya gusa n'umukara, aba bagabo babiri bari kwerekeza ku nzu ifite imiryango ibiri ifunze yose, iteye irangi ry'icyatsi.

Icyumba kirimo abantu bicaye bakikije ameza, muri bo imbere yabo hagiye hateretse amacupa y'amazi, icyo cyumba gifite amarido ajya gusa n'umuhondo ibikuta byacyo biteye irangi ry'umweru.

Icyumba kirimo umuntu uryamye, uwo muntu yambaye jire y'umutuku iriho umweru, iriho ikirango cy'umweru kirimo umusaraba, hari agahombo kamucometse ku kuboko, bigaragara ko uyu muntu ari gutanga amaraso.

Mu cyumba, icyo cyumba kirimo abantu benshi bicaye, muri bo abenshi bambaye umweru hejuru, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye ishati y'igitenge inyuma ye hari ikibaho bigiraho abanyeshuri.

Icyumba kirimo abantu babiri bambaye udupfukamunwa n'imyenda y'ubururu, umwe muri bo afashe urushinge, yarujombye mu muti, ari gukuramo umuti bigaragara ko hari umurwayi agiye kuvura.

Icyumba kirimo umuntu wambaye agapira k'umweru, yambaye agapfukamuwa, afashe telefone mu ntoki nini, yambaye ijipo y'umukara, imbere ye hicaye umukecuru, bigaragara ko hari ibyo ari kumubaza.

Ahantu hari fondasiyo z'amabuye, uzamuka esikariye hejuru hari inyubako, iyo nyubako yanditseho ikigo nderabuzima cya Tabagwe, hejuru y'iryo jambo handitseho imbuto, hari abantu benshi, muri bo hari uwambaye ingofero y'umweru n'agapira k'umweru.

Ni mu cyumba harimo abantu batatu, harimo babiri bambaye icyatsi, undi yambaye agapira k'umukara bose bambaye ubupfukamunwa ndetse icyo cyumba ibikuta byacyo biriho amakaro y'umweru.

Umuntu wambaye imyenda yo kwa muganga, yambaye akantu kameze nka supanette mu mutwe gasa ubururu, yambaye ga mu ntoki, imbere ye hateretse icupa ry'amazi ndetse n'agakombe k'umuhondo, afashe icyuma mu ntoki bisa naho ari gusuzuma.

Icyumba bigaragara ko ari icyo kwa muganga gifite amarido y'umuhondo harimo ibitanda bigiye byicayeho abantu, hari ibyicayeho abadamu, hari n'ikicayeho umugabo, hejuru ya buri gitanda hagiye hari inzitiramubu y'ubururu.

Ni mu cyumba icyumba kirimo abantu benshi bicaye muri bo harimo abafashe amakayi n'amakaramu, hari abateretse imbere mudasobwa, icyumba ibikuta biteye irangi ry'umweru.

Imbere y'inyubako yubakishije amatafari ahiye, hahagaze abagabo batatu, babiri bambaye amatabuye y'umweru maremare, iruhande rwabo hari umudamu wicaye mu kagare k'abafite ubumuga.

Icyumba kirimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamuwa k'umweru, imbere ye afashe mu kiganza akaboko k'umugabo wambaye ishati nini y'ubururu bisa n'aho ari kumupima ngo arebe uko umubiri we umeze.

Ahantu hahagaze abantu batanu muri bo babiri bambaye amataburi y'umweru maremare, abandi ni abasaza babiri bafite imvi, hejuru yabo handitse amagambo avuga ngo Reception area, bigaragara ko ari ahantu bakirira abantu.

Icyumba kirimo umuntu wambaye itaburiya y'umweru w'umudamu, imbere ye hateretse igitabo, afite ikaramu mu ntoki ari kucyandikamo, iruhande rwe hari umukecuru wicaye, bigaragara ko hari ibyo umudamu ari kumufasha.

Icyumba, ibikuta biteyeho irangi ry'mweru, ibikoresho birimo hari ibiteye irangi ry'umweru, ubururu, n'icyatsi, muri ibyo bikoresho harimo urukarabiro, harimo intebe, harimo igitanda, bigaragara ko ari kwa muganga.

Icyumba cyiganjemo amabara y'umweru ari ku bikuta harimo abantu b'ingeri zitandukanye harimo abicaye, harimo abaryamye ku bitanda byo muri icyo cyumba, hari umugabo wambaye itaburiya y'umweru bigaragara ko ari umuganga kuko yambaye n'utwuma tw'abaganga afashe ikaramu ari kwandika ku rupapuro.

Ahantu bigaragara ko ari kwa muganga, hari umwana wambaye ikabutura y'umutuku, agapira k'umweru, iruhande rwe hahagaze umudamu, urebye ku ruhande rw'ibumoso hari ibiti byinshi n'iruhande rw'iburyo hari ibiti byinshi ndetse iruhande rw'ibumoso haparitse imodoka ebyiri.

Icyumba kirimo abantu batatu bicaye ku bitanda, hari umwana wambaye agapira k'umuhondo, hari undi wambaye agapira k'ingofero kajya gusa n'umutuku ndetse n'umudamu witeze igitambaro, imbere yabo hagaze abagabo, harimo uwambaye ipantaro y'umukara n'ishati ijya gusa n'umutuku yatebeje, iruhande rwe hari uwambaye agapira kari mu ibara ry'umutuku n'umweru.

Inzu yubakishije amatafari ahiye apoteyemo sima, imbere yayo hari ibibuga bikikijwe n'indabo, muri byo hari gukiniramo abantu babiri bari gukina n'abana, bambaye amataburiya y'umweru bari gukina balo bayijugunya hejuru bayisama.

Icyumba kimeze nk'aho ari ikimodoka ya ambiranse, kirimo igitanda gifite udupine tubiri, imbere kuruhande hateretse indobo y'umuhondo, hirya hateretse ikintu kimeze nk'imbaga cy'umutuku kandi hejuru yacyo hari ikirahure.

Ahantu hari icyumba ibikuta biteye irangi by'umuhondo, ibikoresho na byo ibyinshi biteye irangi ry'umuhondo, harimo ibikoresho byinshi byo kwa muganga, bigaragara ko ari muri laboratory, harimo za mudasobwa, harimo amacupa menshi y'imiti, harimo n'ibindi bikoresho bisuzuma.

Icyumba kirimo abanyeshuri benshi, abanyeshuri bambaye imyenda y'umweru muri bo hari uwambaye amataratara ndetse kurebera mu byuma bisuzuma byo kwa muganga. Iruhande rwe hari agasanduku karimo ibikoresho byinshi, harimo impakasi n'ibindi.

Icyumba cyiganjemo amabara y'umweru n'ubururu kirimo ibikoresho byo kwa muganga, muri iki cyumba harimo umugabo wambaye itaburiye y'umweru, yanditseho amagambo yandikishije ibara ry'ubururu.

Icyumba kirimo abantu batatu, bose bambaye udupfukamunwa tw'umweru, bambaye amataburiya y'umweru, bambaye ga z'umweru mu ntoki, bafashe inshinge ndetse aho hantu hari akadobo ndetse n'isabune byo gukarabisha.

Abadamu bambaye ubupira bw'ubururu bose buriho ibirango byanditseho USAID, batatu b'imbere bafashe abana mu ntoki, umwe umwana yasinziriye abandi babiri biteze ibitenge mu mutwe bari konsa abana bafashe.

Ni mu cyumba k'ishuri harimo abana bakikije utumeza, muri iki cyumba harimo abadamu ndetse n'abasore n'abakobwa bafashe amasahani mu ntoki, bigaragara ko ayo masahani bayazaniye abo bana ngo babagaburire.

Abadamu batatu bari kubyina, babiri muri bo bambaye urugori rw'umweru mu mutwe, undi yambaye ingofero y'umukara iriho imbere ijambo FPR udupira twabo twanditseho ijambo tora.

Umugabo uhagararanye n'umudamu, umugabo yambaye ishati ijya gusa n'ikigina afite uruhara, umudamu yambaye amarinete, umusatsi we urasutse bari gusoma icyapa cyanditseho RDB.

Ni imbere y'inzu hari icyapa cyanditseho ngo Matimba korosi boda urugo mbonezamikurire y'abana bato ni Aho bita ku bana ho murenge wa Matimba muri Nyagatare.

Ahantu hari ikibuga, ikibuga gihagazemo abantu, abantu bafashe icyapa kinini inyuma yabo hari indabo ziconze neza, inyuma y'izo ndabo hari inzu isakaje amabati y'umweru yajeho umugese.

Abantu benshi bafashe ibyapa bayobowe n'umupolisi, mu bafashe ibyapa, hari abafashe icyapa kinini cyanditseho ngo kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko ndetse no mu muryango nyarwanda.

Icyumba cyicayemo abantu babiri bari kurebana, umwe yambaye ipantaro y'umukara, agapira k'umukara, yambaye rinete n'agakomo k'amasaro y'umweru n'umukara mu kuboko kw'iburyo, undi yambaye ipantaro y'umukara, ishati y'umukara n'ingofero ijya gusa n'iya gisirikare.

Icyumba kirimo abantu benshi b'ingeri zitandukanye, abenshi muri bo bambaye udupira dusa tw'amabara y'umweru arimo ubururu ku kuboko ndetse no ku ikora, hari kandi n'umugabo wambaye ikoti rijya gusa n'umukara, aryambariye hejuru y'agapira gasa n'utwo abandi bambaye.

Ahantu hari abantu bahagaze ndetse n'abicaye, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho RBC kandi hari ibiti birebire, aba bantu abenshi bambaye udupira tw'icyatsi, hasi bambaye ipantaro y'umukara muri abo bantu kandi harimo abasirikare babiri.

Umudamu wambaye akitero k'icyatsi n'umukara mu ijosi, afashe akaradiyo k'ubururu mu matushi yako hasa n'umukara, iruhande rwe hahagaze umugabo wambaye ikote ry'umukara ririho umweru inyuma yabo hari ibiti.

Ni mu cyumba kirimo abantu, mu cyumba hari umudamu uhagaze imbere, imbere ye hicaye abandi bantu bane, inyuma yabo hicaye n'abandi bantu, iruhande rw'ibumoso hahagaze umudamu wambaye imyenda y'umuhondo.

Ahantu hari inyubako, izo nyubako ziteye irangi ry'umweru, imbere yazo hari amapave, imwe muri izo nyubako iriho icyapa cyanditseho hapines pharmacy, bigaragara ko ari farumasi yitwa Hapiness.

Ahantu hari imiti myinshi y'abarwayi, muri yo hari iri mu dukarito, hari iri mu tuntu tumeze nk'udushashi, muri yo bigaragara ko hari umuntu uri kuyinywa kuko hari ituzuye.

Inzu yanditseho farumasi Iraguha Hagi, ikinguye imiryango ibiri, iyo nzu umuryango umwe urimo umudamu uhetse umwana, iruhande rwe hagaze undi mwana wambaye agapira k'umutuku, iruhande rw'iyo nzu iruhande rw'ibumoso haparitse umumotari.

Umuhanda wa kaburimbo, iburyo bw'uwo muhanda haparitse moto ebyiri, hari imiryango na none ibiri ifunguye, hari umwe wanditseho Eliot farumasi, imbere hahagaze umudamu ufashe umwana ndetse n'undi wegamiye ku nkingi y'inzu.

Ahantu hari amashashi menshi y'umweru ariho ibara ry'umuhondo hejuru, amashi yanditseho amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu y'Icyongereza, aya mashusho kandi ariho ibishushanyo by'imishwi ine, amagi ndetse n'inkoko.

Ahantu hatondetse udukarito tw'amoko atandukanye, muri iki cyumba harimo umudamu wambaye itaburiya y'umweru, umudamu arirabura, mu mutwe we afite imisatsi y'ibisuko ndetse ari gusoma kuri kamwe muri utwo dukarito.

Uducupa bigaragara ko turimo imiti, utwo ducupa ni utw'umukara cyane dufite imifuniko isa n'umutuku n'udufite imifuniko isa n'umweru, ayo macupa agiye ariho ibyapa byiganjemo amabara y'umweru nay'ubururu.

Imbere y'inyubako iteye irangi ry'icyatsi n'inzugi za metalike ziteye irangi'cyatsi ririmo n'ibirahure, hicaye abantu benshi, imbere yabo bantu hahagaze umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi y'ubururu.

Ahantu hicaye aba mama bafashe abana imbere yabo hari umuporisi ufashe isahani mu ntoki ari kugaburira umwana iruhande rwe hari undi mugabo wambaye agapfukamunwa wafashe isahani mu ntoki ari kugaburira umwana ndetse hari n'umudamu ufashe isahani mu ntoki nawe ari kugaburira undi mwana.

Urubyiruko rwinshi abenshi muri bo bambaye amashati y'ubururu juru, bafashe icyapa kiriho umugabo hejuru, icyo cyapa cyabo cyanditseho ubuzima bwanjye agaciro kanjye.

Icyumba cy'icyumba giteye irangi ry'umweru hejuru hasi hatera irangi rijya gusa n'umuhondo hicayemo abantu b'ingeri zitandukanye harimo abadamu bafasha abana harimo abadamu badafite abana harimo abagabo harimo abasore muri bo harimo umusore wambaye ishati y'ubururu ariko arishimye cyane ari guseka.

Ahantu hari urubyiruko, ni munsi y'ibiti, birimo udutebe, imbere yabo ahagaze umugabo wambaye umupira w'umukara, yambaye umukufijya gusa n'umuhondo mu ijosi, afashe mikoro, yambaye amataratara, muri bantu abenshi barimo bari gufotora.

Icyumba kirimo abantu bicaye ku ntebe bakoze uruzeru, icyo cyumba giteye irangi ry'umuhondo, inyuma y'abo bantu hari utumeza duteretseho amazi ndetse ku gikuta k'icyo cyumba hamaditseho ibipapuro binini.

Icyumba kirimo abantu batatu icyo cyumba inyuma kirasa n'umweru, abantu babiri muri bo b'abagabo bararyamye, umwe yambaye agapira k'ubururu undi yambaye ishati y'umweru, harimo intebe ebyiri zigerekeranyije zicayeho umuntu.

Ubwoko bw'amacupa atandukanye harimo amacupa maremare y'umukara harimo amagufi y'cyatsi afite imifuniko y'umuhondo, harimo ay'umweru afite imifuniko y'umutuku biragaragara ko aya macupa arimo imiti.

Ahantu hari amacupa y'amoko atandukanye, ayo macupa bigaragara ko arimo imiti, hari ay'umukara, ajya gusa n'icyatsi afite imifuniko y'umuhondo, hari ay'umweru afite imifuniko y'umutuku n'andi macupa y'amabara atandukanye harimo afite imifuniko ya oranje.

Ubwoko bw'igihingwa cyarayanze mu bigaragara uruyange rwacyo bigaragara ko rufiteho uduhwa ndetse urebye neza icyo gihingwa kimeze nk'aho ari igisura, kiratoshye cyane kandi gihinze cyegeranye.

Ni mu ishyamba ry'inzitane, iruhande rw'iryo shyamba hahinze ikawa, hari umugabo wambaye agapira k'umweru, ku maboko hari umukara no ku ikora, ari gusoroma ikawa.

Ahantu hari ubwoko bw'ibintu bitandukanye muri byo harimo uducupa turimo ibintu bijya gusa n'umutuku, hari indi miti gakondo ikikije, hari iri mu dupaniye, hari iri mu udufuka, hari imeze nk'amabuye n'indi miti gakondo itandukanye.

Amazu abiri ayo mazu imwe yicayeho abantu batatu bambaye udupfukamunwa indi umugabo ayihagaze imbere abandi bari mu gitwe cyayo, ayo mazu icyo ahuriyeho ni uko yose ateye irangi ry'ubururu akaba yanditseho gira ubuzima.

Ahantu hari umudamu, awo umudamu afite agakapu mu kuboko k'ibumoso, yiteye agakenyero k'umweru, ukuboko kwe kw'iburyo gufashe ku muravumba, inyuma y'uwo muravumba hamezemo insina.

Inyubako ziteye irangi ry'ubururu n'amabati yazo asakaye ni ubururu, imbere yazo hahagaze abantu, muri bo harimo abambaye amataburiya y'umweru, harimo umusirikare, harimo abadamu ndetse n'abagabo.

Imbere y'inzu, iyi nzu ifite ibikuta biteye irangi ry'umweru, inzugi n'amadirishya nabyo biteye irangi ry'umweru, ku idirishya hateretse icupa ry'amazi, imbere y'iyo nzu hicaye umuganga, imbere ye hahagaze umudamu umuganga amufashe ikiganza ari kumusuzuma.

Amacupa maremare y'umweru ariho ibyapa byiganjemo icyatsi n'umuhondo, ayo macupa ashushanyijeho inyamaswa, harimo inkoko, intama, inka bigaragara ko ari imiti ivura amatungo.

Ahantu hari amatente yicayemo abantu benshi, imbere yayo hahagaze abantu bambaye udupira tw'umutuku turimo ibara ry'umweru, muri bo harimo uwambaye ingofero y'ubururu, imbere yayo hateretse imigezi.

Ikiganza gifashe agakarito, ako gakarito kanditseho ngo tirozine gashushanyijeho inka, intama, ihene, ingurube, ako gakarito kariho ibihaha kandi bigaragara ko ari umuti ufasha ibihaha by'amatungo.

Ahantu hicaye abadamu batatu, undi arahagaze afashe ikintu kimeze nk'igitabo kinini, muri abo bicaye harimo uwambaye ishati y'umutuku, undi yambaye agapira k'umutuku karimo uturongo tw'umweru dutambitse.

Abantu benshi bahagaze imbere y'inzu iteye irangi ry'ubururu, muri abo bantu harimo abambaye amabaji mu ijosi, harimo abazungu ndetse n'abirabura, iruhande rwabo hari igiti cy'umuhembe.

Icyumba ibikuta bitera irangi ry'umuhondo, muri iki cyumba hicayemo umudamu wambaye ibu y'umweru, imbere ye hateretse mudasobwa, iruhande rwe hari urupapuro ruteretseho ikaramu. Uwo mudamu yambaye amaherena y'ibizero.

Ahantu hari abantu bane, umwe muri bo yicaye ku gatebe, undi ari kwinjira mu muryango, undi yambaye ingofero y'umweru, afashe impapuro mu ntoki, undi yicaye ku kagare k'abafite ubumuga.

Inyubako iteye irangi ry'ubururu n'umweru, yanditseho amagambo menshi hejuru, yanditseho ijambo Girubuzima, hariho igishushanyo cy'umugabo n'umugore n'abana babiri.

Itsinda ry'abantu bicaye mu cyumba, muri bo harimo abambaye amataburiya maremare y'umweru, harimo umugabo wicaye ku ntebe y'utwuma, imbere ye hari ameza ateretseho mudasobwa. Uwo mugabo ari gukanda kuri mudasobwa.

Inzu iteye irangi ry'ubururu n'amabati asakaye inzu ni ubururu, imbere yayo hicaye abantu benshi, impande zayo hari abantu benshi bakikije iyo nzu, muri bo harimo umudaso wambaye imyenda y'icyatsi, imbere y'iyo nzu hahagaze umudamu wambaye imikenyero uri kuvuga ijambo.